Inyubako nziza yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho mo imbere harimo umuganga, uri kugenda apima abarwayi indwara nyinshi zigiye zitandukanye baba baje kwivuza.

Abaganga benshi bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho bambaye imyambaro isa ubururu ndetse n'utugofero tw'icyatsi mu mutwe, bakaba bari kugenda bavura abarwayi, indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Umuntu ukorera ikigo cy'igihugu gitabara imbabare mu Rwanda Croix rouge, aryamye ku gitanda, aho ari gutanga amaraso kugira ngo bayifashishe batabara indembe ziba zagize ikibazo.

Kwa muganga hari imbangukiragutabara bari kugenda bashyiramo abarwayi bagiye batandukanye cyane cyane abarwayi bagize ikibazo cyihutirwa, bakaba bari kubashyiramo kugira ngo bajye kubavuza maze babone ubukira.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abaganga bambaye imyambaro iri mu mabara y'icyatsi, bakaba bari kugenda bafite icyapa mu ntoki cyanditseho ngo turwanye icyorezo cya marburg.

Abantu bakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi nka croix rouge aba ari ingirakamaro cyane kuko batabara imbabare bakazitaho maze zikaba zamererwa neza.

Abantu benshi bagiye batandukanye bari kugenda ahantu mu isoko, aho harimo abakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi nka Croix-Rouge, bakaba bari kureba ko hari umuntu wagira ikibazo ngo bamutabare.

Abantu bambaye imyambaro y'umuhondo, biganjemo abakozi bakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda witwa Croix Rouge, bakaba bari mu gikorwa cyo gutwara abarwayi.

Abaganga bagera muri batatu aho bahagaze mu nyubako bambaye udupfukamunwa, bakaba bafite n'ibitambaro bateze mu mutwe, aho bari mu gikorwa cyo kwerekana serivise batanga z'ubuvuzi.

kwa muganga, aho hari umuganga uri kugenda avura abarwayi bagiye batandukanye, yifashishije ibikoresho kabuhariwe, byifashishwa kwa muganga kugira ngo abashe kubitaho.

Abaganga benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari kugenda bafata ibikoresho bigiye bitandukanye, bagiye kwifashisha bari kwita ku barwayi kugira ngo baze kumererwa neza, maze bakire.

Kwa muganga ahari inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako ifite amashuka asa umweru ayikikije, ikaba ari ingirakamaro cyane kuko havurirwa abarwayi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho zifite amabati y'ubururu, zikaba zubakishije udutafari duhiye, akaba ari ku bitaro, aho haparitse imbangukiragutabara.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite ubusitani bwiza cyane bwicayemo abantu bagiye batandukanye baje muri iyo nama.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo, bakaba bari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Icyumba cyo kwa muganga aho bakiriramo abarwayi bagiye batandukanye baba baje kwivuza maze bakabavura indwara nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo barebe ko abo barwayi bakira.

Abaganga bagiye batandukanye barimo abagore bane ndetse n'umugabo umwe, bakaba bakora igikorwa cy'ubuvuzi aho baba bavura abarwayi indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Abantu bagiye batandukanye bakaba bahuriye kwa muganga aho harimo abagabo gusa bakaba bari guhereza umuntu ikemezo k'ishimwe kubera ukuntu yitwaye neza mu murimo we akora.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, biganjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari ahantu ku kigo nderabuzima, aho bari kugenda bahanagura inkuta z'ikigo nderabuzima kugira ngo hagume hasa neza cyane.

Umugore w'umuganga wambaye itaburiya iri mu mabara y'umweru, akaba ari kugenda yandika mu ikayi, aho ari kwandika indwara zigiye zitandukanye abarwayi baje barwaye.

Ahantu hateraniye abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bari kwa muganga aho bari kugenda bahanagura ibikuta by'ibitaro kugira ngo harangwe isuku.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'ishuri, aho hahagaze umwana w'umunyeshuri, akaba ari gukurikira amasomo ahabwa n'abarimu kugira ngo abashe kuzatsinda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu nama harimo umugabo wambaye agapfukamunwa. yambaye ishati iri mu mabara y'iroza iciyeho utubahomo tugiye dutandukanye.

Umugabo wagiye kwa muganga arwaye, none muganga akaba ari kumutera serumu, umugabo nawe ari gushinyiriza, hirya hari abandi barwayi bagiye batandukanye, na bo baje kwivuza.

Umuntu uri gukina umukino w'amaboko yifashishije umupira wa ballon, aho yawunaze hejuru, akaba agiye kuwusama, ni umuganga aho ari kwigisha ababyeyi uburyo bazajya bakinisha abana babo.

Inyubako nziza cyane zubabatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho zifite amabati asa ubururu zikaba zubakishije amatafari ahiye, zifite ubusitantani bwiza cyane aho byerekana ko ari ku bitaro.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, bafite icyapa mu ntoki, cyanditseho ngo "kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu, ibitaro bya Nyagatare".

Umuntu wambaye udupfukantoki tw'umweru akaba ari umuganga, afashe umurwayi waje amugana none ari kumutera urushinge kugira ngo amuvure maze akire.

Umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'itaburiya, akaba ari muri Laboratwari, aho ari kugenda akora ubushakashatsi bugiye butandukanye, bwerekeranye n'uko indwara runaka zipimwa.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bya laboratwari, cyane cyane aho abaganga bari gukorera ubushakashatsi baza maze bakajya barakora uburyo basuzuma indwara zose.

Inzu ikorerwamo ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuvuzi izwi nka laboratwari, haba harimo ibikoresho byinshi bifashisha bari gupima indwara zigiye zitandukanye.

Umuntu wiga ibijyanye n'ubuganga yambaye itaburiya y'ubururu n'udupfukantoki tujya gusa umukara, ari muri laboratwari aho ari kugenda akora ubushakashatsi bwuko indwara zigiye zitandukanye zipimwa.

Abaganga bari mu nyubako y'ubushakashatsi, bakaba bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye y'umweru, aho iyi myambaro ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu uyambaye ababerewe.

Abana benshi bagiye batandukanye, biga mu mashuri abanza bambaye impuzankano z'icyatsi, bahagaze bazamuye ibiganza, mwarimu wabo ari kubagenda imbere, agenda abakubitiraho maze bakishima.

Umuganga uri gutera umurwayi urushinge, aho uwo murwayi yambaye imyambaro y'icyatsi, ari kurumutera ku kizigira cy'ukuboko kugira ngo uwo muntu bamurinde indwara nyinshi.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri yisumbuye bakunze kuba bazi akamaro ko kugaburira umwana indyo yuzuye, kubera ko imugirira umumaro cyane bityo akagira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umugore uri kwa muganga aho akenyeye igitenge gusa, ku ruhande rwe haryamye umwana ku kameza, bigaragara ko ari umwana amaze kubyara, none akaba ategereje ko abaganga baza.

Umugore ukikiye umwana akaba yambaye ishati y'iribaya, akaba akikiye umwana bigaragara ko amaze kubyara ari kwa muganga mu cyumba ababyeyi babyariramo.

Umugabo uri kudahira abana igikombe mu ibase, aho ari kugenda akibahoreza kugira ngo akibahe bakinywe kimeze neza gihoze, bakaba ari abana biga mu mashuri y'inshuke.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, higanjemo abakuru ndetse n'abato, harimo abana biga mu mashuri y'inshuke, aho bari kugenda barira ku masahani abo bantu bakuru bari kubagaburira.

Abana biga mu mashuri y'inshuke aho bapfuwe n'abayobozi bagiye batandukanye, abo bayobozi bakaba bari kubagaburira babaha ibyo kurya bifashishije udusahani ndetse abana bakarya.

Umuntu wambaye agashati karimo amabara y'umutuku n'ubururu akaba yambaye kandi umusatsi wa shokora, ari kumwe na mugenzi we aho bari kugenda baganira.

Umugore w'umuganga wambaye agapira k'icyatsi ndetse n'ikote ry'ikositimu akaba afashe indangururamajwi imbere ye ari kuvuga, inyuma ye hari icyapa kiriho ikirango cy'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe kwita ku buzima.

Umukobwa wihebye none akaba yagiye kwa muganga, muganga ari kumuganiriza kugira ngo amwereke ko nta mpamvu yo kwiheba kuko nyuma y'ibyabaye ubuzima burakomeza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iyo nyubako ari inyubako iteye amarangi ya oranje ku rukuta, hakaba haparitse imodoka imbere yayo, bikaba bigaragara ko ari nziza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyi nyubako ifite inzugi nziza cyane, ikaba ifite amapera ateye ku ruhande rwayo meza cyane cyane.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho higanjemo abagabo bambaye imipira ya ruje, isa n'oranje, bafite imitaka n'ibipirizo, bari kugenda bamanitse mu muhanda.

Umugore uri ahantu ufite indangururamajwi mu ntoki, wambaye ikanzu idoze mu gitenge, bikaba bigaragara ko ari umuganga, kuko inyuma ye hari icyapa, cyanditseho amagambo agiye atandukanye.

Udushushanyo turi ahantu, ibipapuro bisa umutuku n'icyatsi ,hakaba hagiye handitseho amagambo ngo mfasha ,bigaragara ko twifashishwa n'abantu biga mu mashuri abanza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho harimo sale ikorerwamo inama, hakaba harimo abantu benshi cyane bagiye batandukanye barimo aho hari n'uducupa turimo amazi imbere ya buri muntu.

Umugore wambaye ikote ry'umukara, akaba ahagaze bamushyize indangururamajwi mu ntoki, akaba ari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'imigendekere y'ubuzima.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, bicaye ahantu mu nyubako, aho bafite amakayi n'amakaramu bari kwandika, bose bakurikiye mwarimu uri imbere yabo ari kubigisha.

Farumasi icuruza imiti igiye itandukanye, ikaba igenda imanika ibyapa ku mazu kugira ngo yerekane aho ikorera, maze abantu bajye bayigana ibagurishe imiti.

Umugabo uri mu nyubako icururizwamo imiti igiye itandukanye izwi nka farumasi aho ari kugenda atanga imiti ku bantu bose bagenda bamugana baje kuhivuriza.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utujaride twiza cyane duteyemo amoko y'indabyo agiye atandukanye ndetse hari n'inzira ishashemo amapave n'inyubako nziza hakurya.

Muri farumasi ahacururizwa amoko menshi agiye atandukanye y'imiti, aho iyo miti ari ingenzi cyane, ku buryo ivura abantu benshi bagiye batandukanye, umuntu wese urwaye ajya kuyihagurira.

Umugabo uri mu nyubako yabugenewe aho ari kugenda atanga serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi kubera ko iyo nyubako ye ari farumasi ahacururizwa serivise zigiye zitandukanye z'imiti.

Mu iduka rya farumasi ahacururizwa imiti igiye itandukanye, aho iyo miti ari ingenzi cyane kuko yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye maze abantu bazirwaye bakaba bakira bakamererwa neza.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe ku mugezi aho baje kuvoma amazi, bakaba batondesheje amajerekani yabo imirongo, aho hari umugore wambaye akajiri uri kugenda abavomera.

Abantu bagiye batandukanye bateraniye hamwe, b'abasore bafite indangururamajwi mu ntoki, bakaba bari kuganira, imbere yabo hahagaze umukobwa, ufite imisatsi ya menshi.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bari kwifotoza bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kurwanya indwara ya SIDA.

Inyubako yahuriyemo abantu benshi bagiye batandukanye, aho bari mu nama, higanjemo igitsina gore, igitsina gabo ndetse n'abashinzwe umutekano b'abasirikari, hakaba hari umugore uhagaze ari kuvuga.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bahuriye hamwe mu isoko aho hari gutangirwa serivise zigiye zitandukanye, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bose bakaba baje gushakira serivise aha ngaha.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye, biga mu mashuri y'incuke ndetse n'abana, bakaba bari mu gikorwa cyo kwamamaza ubuvuzi ,aho bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu ,bari kumwe n'abarezi babo.

Umugabo uri ahantu, wambaye agapira k'umweru, ufite indangururamajwi mu ntoki, akaba afite na telefoni, aho ari kugenda abwira abantu, icyiza cyo gukoresha ikoranabuhanga mu buvuzi.

Abantu benshi bagiye batandukanye, aho bari kugenda bamamaza bafite igipapuro mu ntoki cyanditseho ngo ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi bibiri na cumi n'ikenda.

Ubuvuzi gakondo na bwo bumaze gutera imbere cyane, aho muri iki gihe ushobora kuba urwaye wajya kwa muganga bikananirana maze bakakugira inama yo kwegera ubuvuzi bwa gakondo.

Umugabo uri mu murima uhinzemo ikawa, akaba ari kugenda ayisoroma bigaragara ko ari gushaka umuti wo kuvura indwara zigiye zitandukanye by'umwihariko indwara za gakondo.

Abantu benshi bagiye batandukanye biganjemo abaganga, bakaba bari kugenda barura ibyo kurya babishyira ku dusahane baturambika ku meza kugira ngo baze kwifashisha bagaburira abana biga mu mashuri y'inshuke.

Abantu b'abagabo bagera muri bane ndetse n'umugore umwe bakaba bari kugenda imbere y'ubusitani bw'ikigo nderabuzima, aho bari kugenda bishimye bigaragara ko ari abaganga bari bagiye kuhasura.

Abagore bagiye batandukanye bateraniye hamwe mu cyumba aho buri wese afite umwana we mu ntoki, imbere yabo hagaze umugabo wambaye agapira k'umweru bigaragara ko ari kubigisha uko wita ku bana babo.

Inyubako nziza cyane y'ikigo nderabuzima, yubatswe mu buryo bugezweho, ifite amabati y'ubururu, iteye amarangi y'ubururu ku bikuta, ikaba yakira abantu benshi bagiye batandukanye.

Kwa muganga, ahari ibitanda byinshi bigiye bitandukanye, aho ibi bitanda ari ingirakamaro cyane kubera ko biba biriho amashuka y'ubururu ndetse n'icyatsi aba afata abarwayi.